Hano hari ifoto iri kwerekana ikigo cya leta cya Equity bank. Banki ishinzwe kuguza no kuguriza amafaranga, barakwereka n'ikindi kigo cya MUA.

Hano hari inzu y'ubucuruzi bw'imyenda, ho bari kutwereka ibicuruzi bacuruza ko ari imyenda n'igofero. Bari kwamamariza ibyo bacuruza hano kabisa.

Hano ni abagabo babiri bari inyuma y'igikamyo cy'akagera motozi, bari kwerekana iki gikamyo uko kimeze ni igikamyo cyo mu bwoko bwa fuso uko bigaragara n'impano bahaye uno umugabo w'iburyo wambaye ishati y'umweru.

Hano bari kwerekana ifoto y'ikigo cyikorera gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda iki kigo rero bakita radiant inshuwarensi kampani nge gutanga ubwishingizi mu gihe runaka giteganyijwe naemerwa rwo kuvugana nayo.

Hano bari kwerekana aparitoma cyangwa inzu ikodeshwa. Iri Kibagabaga muri Kigali, ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu ku kwezi ukayibamo nta kibazo.